Leta yashyize imbaraga n'ubushobozi bwinshi cyane mu myigire y'Abanyarwanda, aho yagiye itanga ibitabo ndetse n'ibindi bifasha inyigisho zabo kugira ngo bajijuke bahangane ku isoko ry'umurimo.

Amashuri y'inshuke ndetse n'abanza, ni amashuri agaragaramo ibikorwa by'abana cyane cyane udukinisho ndetse n'ibindi biba byashushanyijwe n'abana kugira ngo bibafashe mu kwiga neza kandi bakanaruhuka mu mutwe.

Umuyobozi mukuru yasuye ikigo cy'abana agiye kureba imyigire yabo ndetse arebe niba ibyo bigishijwe na disipurine irimo.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ku rugi handitse ngo "Hu izi hiya tudeyi" bivuze ngo ninde uri hano uyu munsi mbese ni ikigaragaza ko uhari wese aba azwi.

Umuyobozi arimo kuganiriza abanyeshuri ku bintu bigiye bitandukanye, ikigaragara aba banyeshuri biga hamwe nubwo bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye ishati y'ishuri n'ijipo n'ipantaro abandi bambaye imipira y'ishuri bigaragara ko aribyo byifashishwa kugira ngo bakomeze base neza.

Urukuta ruri hagati y'amadirishya abiri ruriho icyapa kigaragaza ko umunsi wa siporo kandi kikaba kivuga ko siporo ari ubuzima kuwuzikoze kikaba gishishikariza buri muntu kwitabira siporo.

Abakobwa basigaye bisanga mu bintu bigiye bitandukanye kubera batinyutse ibintu byose basigaye usanga aribo bayoboye kurusha abahungu, basigaye banakoresha mu mutwe cyane.

Ishusho iri mu kibumbano cy'ibumba, iriho isura y'umuntuntu, hirya yayo hakaba hari indi iteretse hasi, indi ikaba iteretse ku meza, ikaba igaragaza isura y'umuntu kandi ifite ibice byose.

Mikorosikope ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa muri laboratwari ndetse no mu bigo bigiye bitandukanye, harebwa niba habashwa kubona udusimba dutoya cyangwa utunyangingo dutoya twifashisha mu gukora ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri bo muri iniverisite ndetse na TVET, bahawe imashini zibafasha kugira ngo bajye bakurikirana amasomo yabo, byoroshye kandi bikwiriye.

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza barashishikarizwa kwihangira imirimo kugira ngo bazagire ejo hazaza heza, ni ku bw'iyo mpamvu bashishikarizwa gukoresha ibikoresho bibegereye harimo n'ibumba.